Aba ni abantu bari mu nama, bicaye mu cyumba cyiza cyane cy'inama. Kirimo intebe nziza cyane z'icyatsi kibisi ndetse n'umukara. Bambaye neza bose kandi barakurikiye. Hakaba harimo insakazamajwi ituma bumvikana.

Uyu ni umama uyoboye inama, yambaye amarinete, afite imisatsi myiza cyane miremire. Yambaye ikanzu akaba ari kugenda ababwira bimwe mu byo bagomba kwirinda aho abashishikariza kwirinda indwara.

Iyi ni inama yahuje abantu. Iyi nama yabereye muri salle nziza cyane, abayitabiriye bafite impapuro n'amakaramu. Imbere yabo ndetse na telefone igendanwa, aho bari kugenda biyandikira ibyo bungukiyemo akaba hari umugabo ufite akuma gafata amashusho ari kugenda abareba.

Iyi ni inama y'ihuriro ry'urubyiruko, iyi nyubako ikaba iteraniyemo urubyiruko rugiye rutandukanye, abahungu ndetse n'abakobwa. Imbere hakaba hari bamwe mu bari guhanga bari kubyina imbyino gakondo, aho bose ubona babateze amaso ndetse n'amatwi.

Aha ni ahabereye inama rusange hari umusore wambaye ishati y'amaboko maremare n'isaha ku kuboko, afite indangururamajwi mu ntoki ari gutanga igitekerezo ke bose bamuteze amatwi kugira ngo bamwumve.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe bakaba bari mu nama, imbere hari umumama ndetse n'umwari bose bafite indangururamajwi bakaba bari gutambutsa ikiganiro aho bari gutanga ubuhamya bwabo.

Mu muco nyarwanda wasangaga umwami afite inkoni, icumu ndetse n'ingabo imurinda maze akiyogoshesha inyogosho nziza cyane y'igisunzu, agatereka ubwanwa bityo bigatuma ababisha bamutinya.

Aba ni abari beza cyane bakaba bambaye imyenda myiza cyane, n'imikenyero ndetse n'imyitero bakaba bari kubyina imbyino gakondo, aho bamurika umuco wa kinyarwanda bakagaragaza ko utigeze ucika.

Mu muco nyarwanda wasangaga bateka mu bibindi bityo bakaganuza abaturage, ndetse aho wasangaga umwe ateka akagabuza n'abaturanyi, iki ni ikibindi kirimo ibigori ndetse n'ibishyimbo bihiye.

Mu muco nyarwanda wasangaga abari ndetse n'abasore bose biyogoshesha inyogosho zijya kumerara kimwe nko gutega ibisuzu, gusokoza umusatsi uzamuka hejuru. Aha hakaba hari amafoto y'umwari ndetse n'ingimbi bigaragara ko biyogosheshaga mu buryo bumwe.

Aba ni abari. Aba bari bambaye imikenyero myiza cyane y'umweru ndetse bambaye n'udusengeri tw'umweru mu imbere, mu gahanga bambayemo udutambaro twiza bakaba bari kubyina bamurika umuco gakondo w'Abanyarwanda.

Uyu ni umusore uri kuvuza umwirongi nka kimwe mu byarangaga abasore mu muco nyarwanda ku ngoma za kera, aho usanga hari abakibikora nka bumwe mu buryo bwo kwibuka ababo babikoraga.

Uyu ni umumama upfukamye hasi akaba ari gusya amasaka aho ari kugenda ashyiraho itsinda maze akagwa ku rutaro, aranzika maze agasya yasoza akanzura.

Izi ni inkongoro nziza cyane bifashisha mu kunywa amata, byahozeho cyane cyane no mu muco gakondo aho abantu benshi bakoreshaga iyi nkongoro nka bimwe mu bimurika umuco nyarwanda.

Mu muco nyarwanda wasangaga buri mugabo afite agacuma ku musego we, ako gacuma ntikaburagamo icyo kunywa, kandi banyweraga ku gihe bishimye, nka bimwe mu byarangaga umuco nyarwanda.

Aha ni ahuriye abantu bakaba bari kumurika ibijyanye n'umuco. Ni umwari wambaye imikenyero, akaba afite indangururamajwi mu ntoki ari kugenda avuga igisigo ke, aho ari kubasigurira maze na bo bagasiganuza.

Aba ni abasore beza cyane ndetse n'abari, bambaye imikenyero y'umuhondo, bakaba bambaye n'imyenda y'umukara, bari kubyina imbyino gakondo bamurika umuco wa kinyarwanda, aba bana bafite umuco kandi banezerewe Igihugu.

Aba ni abari beza cyane bambaye imikenyero myiza bakaba bari guseka bishimye, bari gukoma amashyi babyina n'imbyino gakondo nka bimwe mu biranga umuco w'Abanyarwandakazi bafite indangagaciro.

Aba ni abasore n'inkumi bambaye imikenyero. Bari gushayaya, baratega amaboko ndetse bakizihirwa bakamurika umuco gakondo w'Abanyarwanda. Imbere yabo hari abayobozi banyuranye bari kubareba.

Uru ni urugomero rw'amashanyarazi ruri kubakwa, aha hari inzobere zabihuguriwe neza cyane zikaba ziri kugenda zihuza insinga mu rwego rwo kugira ngo abaturage bo hirya no hino mu gihugu babone umuriro kandi uhagije.

Uyu ni umu mama ukora ibijyanye n'amashanyarazi. Akaba ari ahantu hahurira insinga ari kwitegereza ngo arebe niba nta kibazo kirimo. Yambaye isarubeti y'ubururu ndetse n'ingofero irinda umutwe we isa umweru.

Umuriro w'amashanyarazi watumye abenshi biteza imbere mu ntara y'Iburasirazuba, aha turi kubona umumama uri gukoresha imashini icometse ku muriro w'amashanyarazi bigatuma imirimo ye yihuta kandi akunguka.

U Rwanda rumaze kubona umuriro abantu bose bahise bagerwaho n'ibyiza byawo. Uyu ni umusaza waje kwiyogoshesha ku mashini zikoreshwa n'umuriro w'amashanyarazi, aho ubona ko abyishimiye cyane.

Iyi ni inzobere mu bijyanye n'amashanyarazi, ikaba iri ahantu hahurira insinga zigiye zitandukanye, akaba ari kureba ikibazo cyabayemo mu rwego rwokugira ngo agikemure maze agace katari kugerwamo umuriro naho uhagere.

Uyu ni umugabo uri kurira ku ipoto y'umuriro w'amashanyarazi akaba agiye gushyiraho insinga zijyana mu ngo zigiye zitandukanye ziri hafi aho mu rwego rwo kugira ngo buri muturage agire umuriro.

Uyu ni umusore ukora ibijyanye n'umuriro w'amashanyarazi akaba yambaye itaburiya y'ubururu ndetse n'ishati y'umweru, ari kwitegereza cyane imashini iri hano kugira ngo arebe niba umuriro urimo uhagije.

Aha ni ahari ihuriro ry'insinga z'amashanyarazi, hakaba hakomoka umuriro wose utembera mu gace, inzobere nizo zemerewe kuhagera kuko uhageze utazi ibyo aribyo umuriro ushobora kugufata.

Iki ni ikiraro kiza cyane gica mu kirere, kikaba cyubakishijwe ibyuma. Iki kiraro cyubakiwe abaturage nyuma yo kubona yuko aha hantu iyo imvura iguye hareka amazi bityo bakabura uko batambuka.

iki ni ikiraro cyiza cyane leta yubakiye abaturage, nyuma yo kubona y'uko iyo huzuye batabona uko batambuka yubatse ikiraro kiri hejuru, aba ni abakozi bari kucyubaka ndetse hari kunyuraho na moto.

Mu Rwanda buri mudugudu ugira igicumbi kigaragaza amahame ndetse n'indangagaciro na kirazira biranga uwo mudugudu, aho usanga buri mudugudu uba warubatse maze ugashyiraho izo ndangagaciro.

Iyi ni inyubako ikorerwamo siporo zigiye zitandukanye, by'umwihariko hakaba hari ikibuga gikinirwamo umupira w'amaguru cyubatswe mu buryo bugezweho, hakaba hari aho abakinnyi batarajya mu kibuga baba bicaye ndetse n'ahari amatara amurikira kino kibuga.

Uduce tumwe na tumwe twamaze kwisobanukirwa, usanga dufite ibiro by'umudugudu. Aha turi kubona ibiro by'umudugudu wa Gakoma. Ni umudugudu wubakishije inzu nziza cyane bayigira ibiro, aho harimo inzugi nziza cyane z'ubururu.

Iyi ni inyubako y'amashuri, aya mashuri yubatswe na Leta mu rwego kugira ngo abana babashe kwiga neza kandi badacucitse bige mu bwisanzure bityo bagire ubumenyi buzira imbogamizi.

Iri ni isoko rya kijyambere ryubakiwe abaturage rikaba ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye; ibirayi, ibijumba, ibitunguru, inyanya, umuceri ndetse n'imboga z'amoko yose, hakaba harimo abantu baje guhaha.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga byaba ibipakiye imizigo ndetse n'ibidapakiye, hakuno y'umuhanda hari abagabo babiri bari kwitegereza ukuntu ibyo binyabiziga bitambuka ndetse hakurya y'umuhanda hari gukorerwa imirimo y'ubwubatsi.

Aba ni abayobozi bagiye batandukanye, hari abari mu gihugu cya Uganda ndetse Perezida wa Repubulika y'u Rwanda akaba ahagaze imbere y'uyu mupaka w'u Rwanda na Uganda, aho bari kumufotora bigaragara ko yashyikiranye n'abaturage ba Uganda.

Izi ni inyubako z'ibigo by'amashuri Leta yagiye yubaka hirya no hino mu gihugu kugira ngo abana babashe kwiga neza kandi ku gihe nta bucucike ndetse bisanzuye bityo bitume bagira ubumenyi.

Iki ni ikiraro kiza cyane Leta yubakiye abaturage nyuma yuko habaga umwuzure imisozi igatwarwa abantu bakabura aho banyura, yubatse iki kiraro maze bagikorotiriza ibyuma kugira ngo bage batambuka nta mbogamizi.

Ibi ni ibigega bibiri binini by'umukara, bifatiye ku nzu isakaje amabati y'ubururu yubatse uruhande rumwe, hakaba hajyamo amazi yifashishwa mu guteka ndetse no kumesa.

Leta y'u Rwanda yasanze ari byiza ko buri Mudugudu ugira igicumbi cyawo, bityo bakubaka igicumbi bakakigaragaza kuburyo uhageze abimenya, ibi rero bikaba bigaragaza igicumbi cy'Umudugudu.

Iyi ni inyubako yubatswe na Leta, hagamijwe kugira ngo hajye hagororerwamo abakoze ibyaha bigiye bitandukanye. Hakaba hari gusohokamo abanyururu bambaye impuzankano y'iroze, aho bari gusohoka bagiye mu mirimo igiye itandukanye, ifitiye igihugu akamaro.

Leta y'u Rwanda yubatse hirya no hino imihanda mu rwego rwo kugira ngo yororoshye ingendo ku baturage bayo. Iyi ni imihanda igiye ihurirana kandi ijya mu byerekezo bigiye bitandukanye bityo buri muntu aho agiye akahagera bimworoheye.

Iyi ni inyubako yubatswe na Leta mu rwego rwo kugira ngo ijye igororerwamo abagororwa bahamwe n'ibyaha bigiye bitandukanye, hari kugaragara abagororwa bambaye imyambaro y'amaroze ndetse n'abayobozi babasuye.

Iyi ni inyubako nziza cyane leta yubakiye abaturage. Ni inyubako nziza cyane y'akarere aho buri karere usanga gafite inyubako nziza. Iiyi ni inyubako y'akarere ka Nyagatare aho hariyo amagambo agira ati" akarere ka Nyagatare irembo ry'amahoro".

Leta y'u rwanda yubakira abaturage imihanda igezweho ndetse ikabashishikariza no kubaka inyubako zijyanye n'igihe. Uyu ni umuhanda mwiza cyane wa kaburimbo, abaturage bubakiwe na leta kugira ngo bakomeze gukora imirimo yabo mu buryo buboroheye.

Iyi ni inyubako ya Leta igororerwamo abakoze ibyaha bigiye bitandukanye, aha hari umucungagereza ufite urupapuro mu ntoki, hakaba n'umwana bigaragara ko aje gusura umubyeyi we ufite igikapu mu ntoki, akaba ari kumukingurira ngo yinjire.

Ibi ni bimwe mu bikorwa remezo leta igenda yubaka, harimo n'imihanda, hakaba imiriro bashyira ku muhanda, hari imihanda myiza cyane wa kaburimbo, ukaba urimo ibinyabiziga, hakaba hari n'amapoto ariho amatara amurikira uwo muhanda mu masaha y'ijoro.

Iki ni igishushanyo mmbora k'ikibuga kiza cyane kigiye kubakwa mu gihugu cy'u Rwanda kikaba kigizwe n'ubwatsi bwiza cyane, ndetse kizengurutswe naho abareba imikino bazajya baba bicaye.

Aba ni abaturage bicaye mu busitani bw'umurenge, bakaba bari munsi y'inyubako yubakishije amatafari ahiye. Imbere yabo haparitse imodoka, aba baturage bari gusobanurirwa ibijyanye n'ubutabera ndetse n'uburenganzira bwa muntu.

Abana ni abakinnyi bicaye hasi bakaba bicaye batandukanye bombi bambaye imyambaro ya siporo, imbere yabo hari umugabo ugaragara nkaho aho ari umutoza cyangwa se umuyobozi akaba ari kugenda abasobanurira ukuntu ubutabera ndetse n'uburenganzira bwa muntu ari cyo kintu cya mbere.

Aba ni abantu bateraniye hamwe bakaba bari mu gikorwa k'indashyikirwa, ni igikorwa kigamije gusobanurira abantu ibikorwa by'ubutabera ndetse n'uburenganzira bwa muntu aho imbere hari abagaragara nk'abasirikare.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe hakaba harimo abambaye udupfukamunwa ndetse n'abandi ubona ko bumiwe cyane, hari umumama ufite indangururamajwi akaba ari kuvuga ibijyanye n'ubutabera ndetse n'uburenganzira bwa muntu.

Iyi ni inyubako ikinirwamo umupira w'amaguru, aba ni abaje kwirebera ibirori byabereye muri iki kibuga, bicaye ahantu hatwikiriye ndetse hari n'abicaye ahadatwikiriye bigaragara ko baje kureba umukino kandi ushimishije.

Iyi ni imbaga y'abantu iteraniye ahantu hamwe bakaba bari mu biganiro aho bari gutanga ubuhamya bugiye butandukanye, hari umubyeyi wambaye ikanzu akaba afite indangururamajwi mu ntoki akaba ari kugenda abagezaho ikiganiro.

Iyi ni inama yateranyije abana ndetse n'urubyiruko, hakaba harimo n'abakuze, imbere hari umugabo wambaye impuzankano ya polisi y'u Rwanda, akaba afite indangururamajwi mu ntoki ari kubagezaho ikiganiro ku bijyanye n'ubutabera ndetse n'uburenganzira bwa muntu.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe bigaragara ko bari mu gikorwa cyabahuje, imbere yabo hari umupolisi, wambaye impuzankano ya polisi, akaba afite indangururamajwi mu ntoki, akaba ari kubabwira bimwe mu bijyanye n'ubutabera ndetse n'uburenganzira bwa muntu.

Uyu ni umusirikare wambaye impuzankano z'igisirikare cy'u Rwanda, yambaye amarinete akaba afite indangururamajwi, ahawe ijambo ngo asobanure ibyo azi ku bijyanye n'ubutabera ndetse n'uburenganzira bwa muntu.

Iyi ni imbaga nyamwinshi y'abantu, iteraniye ahantu hamwe mu ihema ryubatse bakaba bari guhabwa ikiganiro ku bijyanye n'ubutabera ndetse n'uburenganzira bwa muntu, bose bahuje umugambi.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe bakaba bari kugezwaho ikiganiro n'umukozi ushinzwe iperereza ndetse n'ubugenzacyaha, ari kubaganiriza ku bijyanye n'ubutabera ndetse n'uburenganzira bwa muntu.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe hakaba higanjemo abayobozi bagiye batandukanye harimo n'abo mu nzego z'umutekano, bari gusobanurirwa ibijyanye n'ubutabera ndetse n'uburenganzira bwa muntu.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe bakaba bari mu ngoro y'ubutabera, aho hari uri imbere ufite indangururamajwi wambaye ikoti ry'umukara ndetse n'amarinete akaba ari kubasobanurira ibijyanye n'ubutabera ndetse n'uburenganzira bwa muntu.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe bicaye mu ntebe za palasitiki bari kuganirizwa amateka y'a hahise y'u Rwanda ariko kandi hakaba hari umugabo ukorera ikigo k'igihugu cy'ubugenzacyaha RIB, ariko basobanura ibijyanye n'uburenganzira bwa muntu ndetse n'ubutabera.

Aba ni abantu bahagaze ahantu bakaba barindiriye imodoka, ni aho amamodoka aparika. Hakaba hatwikiriye bafite imizigo ndetse urabona ko nta mvura cyangwa izuba bishobora kubageraho kuko aho barindiriye amamodoka hatwikiriye.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo mwiza cyane wifashishwa mu ngendo zigiye zitandukanye. Uyu muhanda imbere yawo hakaba hari ibyapa biranga umuhanda ndetse hakaba n'ibiti birebire bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi ku bawukoresha.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo ukaba ufite ibara ry'umukara, haciyemo uturongo tw'umweru, ku ruhande gato hari icyapa kiriho utuyira tw'umukara bigaragaza ko hari aho abanyamaguru bambukira, bityo ikinyabiziga kihageze kigomba kugabanya umuvuduko.

Aha ni iruhande rw'umuhanda ahateretse icyapa cy'igicumbi cy'umudugudu hakaba hariho ibirango bya Repubulika y'u Rwanda ndetse hakaba n'igishushanyo kigaragaza amabara agize Idarapo ry'u Rwanda ari ryo ubururu, icyatsi kibisi ndetse n'umuhondo.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo ukaba urimo umumotari utwaye moto, ahetse umugenzi w'umumama bose bambaye ingofero zirinda imitwe yabo, imbere hakaba hari imodoka nini cyane ihetse umuntu inyuma.

Umuhanda wa kaburimbo urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, hakaba harimo imodoka, moto ndetse n'amagare biri kugenda mu byerekezo bitandukanye, hakurya y'umuhanda hakaba harimo amazu y'ubucuruzi, harimo n'ikinirwamo imikino y'amahirwe.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibice bibiri ukaba ugabanyijwemo n'umurongo w'umwerur iruhande rw'umuhanda hari umugenzi uri kugendamo. Ku rundi ruhande hari icyapa kiri mu mabara y'umutuku hakaba handitseho amagambo agaragaza ko iyo uhageze ugomba guhagarara.

Umuhanda wa kaburimbo ,urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, harimo imodoka itagaragara neza ndetse na moto yicaweho n'umumotari uhetse umugenzi. Bombi bambaye ingofero zirinda imitwe, hejuru yabo hari amatara amurikira umuhanda mu masaha y'ijoro.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo ukaba urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, harimo imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara hakaba hari n'indi iri kuza muri iki cyerekezo y'ivatiri, imbere hari amamota.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo iruhande rw'umuhanda hari icyapa kigaragaza ko imodoka zemerewe kuhaparika ndetse hakaba n'icyapa kiriho uturongo tw'umukara. Kigaragaza ko hari akayira k'abanyamaguru ibinyabiziga bigomba kugabanya umuvuduko maze abanyamaguru bagatambuka.

Uyu ni muhanda ukaba usashemo amapavi, harimo umugabo w'umumotari ndetse ari kuvugana n'umumama bigaragara ko ashaka gutega moto, uyu mumotari akaba ari kumubwira ibiciro kugira ngo amutware amugeze aho agiye.

Aha ni ahabera ibikorwa byo gukora ibikoresho bigiye bitandukanye, hakaba hari abayobozi bari kuhanyura birebera ibi bikoresho biba byakozwe n'abanyabukorikori babyize kandi babihuguriwe, aho babikora uko bikwiye.

Aha ni ahabereye igikorwa cy'umuganda rusange, aho bari gusana inzu y'umuntu utishoboye yatwawe n'umuyaga ubwo yagurukaga m'umuyaga mwinshi cyane, none hakaba hateraniye abantu bagiye batandukanye, urubyiruko ndetse n'inzego z'umutekano bakaba bari kuyisana.

Aba ni abantu bicaye ahantu bigaragara ko ari mu ishyamba. Inyuma yabo hari imodoka ya polisi y'u Rwanda hakaba hari n'amagare menshi abaparitse imbere bigaragaza ko mu Rwanda ikijyanye n'umutekano cyatejwe imbere.

Aba ni abantu bari mu gikorwa cy'umuganda bose barawusoje barahagaze, banejejwe n'ukuntu igihugu cyabo gifite umutekano, ndetse n'isuku bakaba bahuriza hamwe maze bagakora igikorwa rusange.

Iki ni igikorwa cya leta cy'umuganda rusange, mu rwanda haba umuganda rusange kuwa gatandatu wa nyuma w'ukwezi. Aba ni abapolisi, abasirikare, aba abayobozi bo mu nzego z'ibanze ndetse n'abaturage.

Aha ni ahabereye igikorwa rusange aho bari gusana umuhanda wangiritse, hari abagabo ndetse n'abamama bose ubona ko bishimiye gukora iki gikorwa kuko ni inzira ijya ku kigo nderabuzima aho bivuriza.

Aba ni abana batatu bari mu kibuga cy'umupira w'igitaka harimo umwana umwe bigaragara ko afite impano cyane ko bigaragara yuko n'iwabo bamwitayeho, yambaye utwenda twa siporo ndetse n'inkweto ari gukina na bagenzi be bambaye ibirenge.

Aba ni abakinnyi bari mu kibuga k'igitaka bakaba bari kwikinira umupira, ni abakinnyi beza cyane ubona ko bafite taye ariko ikibuga kikaba gikomeje kuba imbogamizi, siporo wayikorera ahantu aho ari ho hose ariko biba byiza iyo uyikoreye ahantu heza.

Aba ni abantu bari mu gikorwa cya siporo harimo urubyiruko ndetse n'abakuze. Imbere yabo hari umuntu uri kugenda uberekera, bari kugenda mu muhanda wa kaburimbo mwiza cyane uzengurutswe n'ibiti bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Aba ni abakinnyi bari gukinira mu kibuga cyiza cyane gifite ubwatsi butoshye bakaba bambaye imyenda ya siporo ndetse n'inkweto, ni byiza gukora siporo kuko bituma impano z'abana zizamuka kandi bakagira n'ubuzima bwiza.

Abana bato bishimye cyane bari mu myitozo ngororamubiri aho bari gukina umupira w'amaguru, aba bana bambaye imyenda yabugenewe mu gukinana, bakaba harimo umwe wambaye inkweto n'undi wambaye ibirenge, ubona ko bahanganye.

Aha ni aha habereye igikorwa cya siporo rusange, hari umugabo ufite indangururamajwi nyuma ya siporo yafashe indangururamajwi, ndetse hari n'isakazamajwi, akaba ari kubabwira uburyo siporo ari ubuzima.

Aba ni abakinnyi bari mu kibuga cy'umupira hakaba harimo babiri bambaye imyenda y'ubururu ndetse n'umweru. Ukabona ko bameze nk'abari gucunga defense yabo. Bari mu kibuga cyiza cyane gifite ubwatsi butoshye.

Aba ni abakinnyi bari mu kibuga cy'umupira. Ni ikibuga kiza cyane kigezweho gifite ubwatsi bwiza butohagiye bw'icyatsi kibisi kandi bugezweho. Uyu mukinnyi yambaye imyambaro yabugenewe ya siporo ndetse n'amasogisi.

Aba ni abantu bari mu gikorwa cya siporo bambaye imyenda iri mu mabara agiye atandukanye, harimo abambaye umutuku, umweru, umukara ndetse n'umuhondo bari inyuma y'ikibuga gikinirwamo umupira w'amaguru bari kugorora amaboko ndetse n'ingingo.

Aha ni ku kibuga ahakinirwa imikino igiye itandukanye by'umwihariko umukino w'amaguru. Ni ikibuga cyubatswe neza ndetse bashyiraho n'aho abaje kureba imikino bazajya bicara mu rwego rwo kugira ngo baticwa n'izuba cyangwa n'imvura.

Aha ni ahabereye igikorwa cya siporo nk'umupira w'amaguru hakaba hari abantu bicaye bari kwirebera. Ni byiza cyane kwiyubakira ahantu heza abantu barebera imikino batanyagirwa cyangwa ngo bicwe n'izuba.

Aba ni abantu bateraniye mu nzu ikorerwamo siporo, ni inzu nziza cyane ikaba ifite ikibuga ndetse n'aho abareba umupira baba bicaye, harimo abana benshi cyane, abicaye mu ntebe nziza cyane n'abandi bicaye inyuma yabo.

Iki ni ikibuga gikinirwamo umupira, ni ikibuga k'igitaka. Harimo abakinnyi bambaye imyenda myiza cyane ndetse n'inkweto, inyuma y'ikibuga hakaba hari abaje kubafana. Leta y'u Rwanda ikwiye guteza imbere ibibuga byose mu gihugu.

Uyu ni umusore uri gutambuka mu mihanda yo mu cyaro igizwe n'itaka, afite indobo mu ntoki, yambaye agapira k'umukara n'ipantaro y'ikoboyi na bodaboda z'umuhondo, bigaragara ko ari gucuruza ibidiya.

Uyu ni umuhanda ukaba usashemo amapave, ni umuhanda mwiza cyane urimo amapave y'ubwoko bugiye butandukanye harimo akozwe mu buryo bw'uburebure ndetse n'andi y'inziga, aya mapave akaba yarashyizweho mu rwego rwo kugira ngo birinde ibyondo.

Utu ni uduhanda duto duca mu makaritsiye, harimo icyapa kigaragaza iduka riri kwamamaza, aka gahanda gasashemo amapave ndetse imbere hateye ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo. Uyu muhanda wa kaburimbo urimo imodoka iri kurenga, hakabamo umugabo uri kuza, hakaba hari amapiloni ariho imsinga z'umuriro w'amashanyarazi ugenda ujyana mu byerekezo bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo nta kinyabiziga kiri kuwutambukamo habe n'inyoni, ku mpande y'umuhanda hari kugenda abagenzi hakaba hari n'akazu ka sosiyete icuruza ibijyanye n'itumanaho ikorera mu Rwanda izwi nka MTN.

Uyu ni umuhanda wo mu cyaro wubatswe mu buryo bugaragaza igitaka ariko utsindagiye, hakaba hari abari kuhigira gutwara ibinyabiziga, harimo n'imodoka, aho bari kubigisha guca mu makona ndetse no gukata.

Aba ni abantu bari gutambuka mu mihanda yo mu cyaro. Imihanda yo mu cyaro akenshi na kenshi ukunze gusanga yaramezemo ibyatsi, igacikamo ibice bibiri, aho umwe anyura mu gace kamwe gato n'undi akanyura mu kandi mu rwego rwo kwirinda urume ruri muri ibyo byatsi.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo utarimo ikinyabiziga, rwagati ahari uturongo tw'umweru hari umusore uri kuhagendera wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'icyatsi kibisi, ku ruhande rw'umuhanda hari imodoka y'umukara ihaparitse ndetse n'amazu y'ubucuruzi.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo ukaba urimo umugabo ufite akana bari kuwugendamo bonyine, kuko nta kinyabiziga kirimo. Hakurya y'umuhanda hari amazu meza cyane bigaragara ko akorerwamo ubucuruzi ariko akaba atarafungura.

Umuhanda wa kaburimbo nta kinyabiziga kirimo, ufite ibara ry'umukara, hakaba harimo umusore uri gusunikira igare hakurya mu kayira k'abanyamaguru, ahetse amajerekani agera mu icumi ku igare rimwe, ari kugenda ayasunika, haruguru ye hakaba hari ibiti birebire.

Umuhanda wa kaburimbo ufite ibara ry'umukara ku mpande hakaba hari uturongo turimo umukara ndetse n'umweru, uhagazemo umugabo ndetse inyuma ye hari imodoka y'ivatiri iri kurenga, ku rundi ruhande hari amapoto ari ho insinga z'umuriro w'amashanyarazi.